Umuganga aho ari kumwe n'umumama ufite umwana, muganga akaba afite agakoresho bifashisha bapima umuriro, aho ari kumupima umuriro kugira ngo amenye niba atarwaye.

Abana benshi bari mu kigero cy'imyaka igiye itandukanye, aho bakoraniye ku mugezi wa robine, bose bari kuwurwaniraho ubona ko bose bashaka gukora mu mazi.

Abana bari ku mugezi ari babiri, bakaba bari gutoba amazi bagenda bayakubita bayanywa, ndetse n'ibindi bikorwa ubona ko bibanejeje cyane.

Abantu bagiye kwa muganga, aho umubyeyi yajyanye umwana we, muganga akaba arimo amusuzuma, ari kureba icyo arwaye kugira ngo aze kumuha imiti bityo uwo mwana yongere amererwe neza.

Ababyeyi batandukanye aho bazanye abana babo kwa muganga kugira ngo bitabweho baterwe inshinge, bahabwe utunini n'ubundi bufasha kugira ngo bakomeze bakure neza.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye bakaba bambaye udupira tw'umutuku bose, hakaba hari n'abandi bambaye amajire aho bari mu gikorwa cyo gutera imboga zo kurya mu karima k'igikoni, hakaba kandi hari n'umupolisi witabiriye iki gikorwa.

Umugabo n'umwana, aho bahagararanye imbere y'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ndetse bakaba bakoranyeho ku maboko. Imbere yabo hari ibipirizo, umugozi ubatandukanya n'abo bantu bari kubareba, hakaba kandi n'ibiti biri inyuma ya bose.

Umuntu wagiye kwa muganga kwivuza aho muganga ari kumutera urushinge kugira ngo amurinde, indwara zigiye zitandukanye bityo akomeze kumera neza.

Abaganga batandukanye aho bari kwifotoza, hakaba harimo abapapa bagera kuri bane ndetse n'umumama umwe, bose bakaba bambaye amakarita yabo.

Abayobozi bagiye batandukanye bo mu nzego z'ubuzima, aho bari mu nama bari kumwe, imbere yabo hakaba hateretse ibikoresho bari kwifashisha nk'imashini ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bari ku mugezi, aho hari umukobwa uri kuvoma, uhagararanye n'umuma ufite umutaka, ndetse n'inyuma yabo, hakaba hari n'abandi bantu, bahari.

Abantu benshi bari guterura imifuka bakayipanga neza ihagaritse, hakaba harimo abapapa ndetse n'abamama.

Ababyeyi bajyanye abana babo kwa muganga kugira ngo bitabweho, babapimishe, babatere inshinge ndetse babahe n'utunini kugira ngo bibafashe gukura neza.

Umumama uri gukaraba intoki, akoresheje kandagira ukarabe, aho akandagira amazi agahita amanuka mu kajerekane bityo agakaraba ndetse akaba ari no gukoresha n'isabune.

Abaganga babiri bari kuvura umwana usa nk'urembye kwa muganga, imbere y'umwana hakaba hari na mama we.

Abaganga bari ku bitaro bose bakaba bambaye imyenda ikwiye, harimo amataburiya, ingofero amarinete ndetse n'ibindi kugira ngo batandura.

Umumama wicaye akaba yiteze igitambaro aho imbereye, inyuma ye ndetse no mu mpande ye, hari abana bahicaye bari kumwe na we ndetse bose bakaba bishimye.

Abanyeshuri barangije vuba mu nzego z'ubuzima, aho bari kwifotoza bose bari hamwe bahagaze, abandi bicaye hanze y'ibitaro.

Abantu benshi bo mu ngeri zigiye zitandukanye, aho baje ku biro by'akagari kabo ka Kazungu kugira ngo bumve inama bagirwa n'abayobozi babo.

Abakozi mu nzego z'ubuzima, aho bahagaze hanze y'ibitaro hakaba harimo abaganga, abaforomo ndetse n'abajyanama b'ubuzima. Bakaba bari kwifotoza bose bari kumwe.

Abantu benshi bagiye ku mugezi kuvoma hakaba harimo abapapa, abamama ndetse n'abana bazanye amajerekani ndetse n'ibibuni kugira ngo batwaremo amazi.

Umukobwa uri kuvoma amazi akoresheje ikijerekani, akaba afite kandi n'indobo, ubona ko ari kumesa imyenda kuko n'inyuma ye hari indi ihanitse yarangije kumesa.

Abantu bagiye batandukanye, aho bari mu cyumba kinini cyane, kaba higanjemo abagabo ndetse n'abagore, kaba bahari, aho baje mu nama, ku bijyanye n'ubuzima.

Abayobozi bagiye batandukanye ni mu nzego z'ubuzima, aho bari mu nama, ku bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hakaba hari n'amazi yo kunywa.

Ababyeyi bazanye abana babo kwa muganga kugira ngo bitabweho, baterwe inshinge zibarinda kwandura indwara zigiye zitandukanye ndetse bahabwe n'ibinini kugira ngo babashe gukura neza.

Abana babiri bagiye kudaha amazi, umugezi bakaba bose bafite utujekani bunamye bari kudaha.

Abakozi batandukanye, bakora mu bijyanye n'ubuzima, harimo abanyabuzima, abaganga ndetse n'abandi, aho bateraniye hamwe, maze bakifotoza bose bishimye.

Umuntu uri kugaburira umwana ibyo kurya, aho umwana ari kumwe na nyina ndetse uri kumugaburira akaba ari umugabo, gusa uwo mwana ukabona ko yishimiye kurya.

Umwana uri gusuka amazi ayakuye mu icupa ayamena hasi mu muferege, impande y'inzu. Akaba ari umwana ufite umusatsi w'irende.

Umwana uri gukaraba amazi, aho yazanye ibibuni aje kuvoma, akaba arimo atoba amazi, asutamye aseka, ubona ko yishimye.

Abana benshi bagera nko muri umunani, bakaba bose bari ku mugezi wa robine, bari kunywa amazi bakoresheje intoki zabo ubona ko bibanejeje.

Abantu bishimye cyane, bishimiye umubyeyi wabyaye akana ndetse ako kana bakaba bakambitse imyenda y'umweru, bakaryamishije ahantu heza mu bitaro.

Abana benshi cyane aho baje ku mugezi kunywa amazi, bakaba bari mu gihe cyo gukina batari binjira.

Abantu batatu bari guterura imifuka isa nk'iremereye, aho harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, abo bagore bakaba bipfutse igitambaro mu mutwe.

Abantu benshi bari ku mugezi hakaba hari umumama uri gusunika icyuma cyiinyuma y'umugezi kugira ngo amazi aze, undi mwana akaba ari kuvoma ndetse hari n'abandi bantu benshi bari kubareba.

Abayobozi b'inzego z'umutekano bakaba bafashe umuntu, aho hari n'abandi bantu bashungereye cyane, akenshi akaba ari abana, ndetse n'undi muntu mukuru umwe, bari kumureba.

Abantu bari mu nama bakaba bicaye, hakaba hari undi muntu uri kugenda abagezaho ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima, n'uburyo bakwirinda indwara.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abo mu nzego z'ubuzima, iz'umutekano ndetse n'izindi, hakaba hari umwe ufite mikoro, imbere yabo abandi bafite igitambaro cyanditseho ngo:" Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye."

Itariki icumi z'ukwezi kwa cumi, umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe no kurwanya indwara zo mu mutwe.

Umumama ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yicaye hasi, yambaye imyenda mibi, inkweto mbi ndetse yatoraguye n'amacupa n'indi myanda mu nzira.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye aho bari kwifotoreza ku cyapa k'ikigo nderabuzima cya Kcyiru, hakaba harimo umuporisi n'abandi bantu basanzwe.

Umukecuru ushaje cyane aho atetse agakoma, akaba ari kugenda ashigisha akaba atetse hanze, imbere ye hari agakombe ndetse n'inkoko itamba ku mbuga.

ISANGE One Stop Centre, ikigo gifasha abantu bahuye n'ihohoterwa rigiye ritandukanye, ndetse kikabafasha gukora iperereza no guhana ababahohoteye mu buryo bukwiye.

Umukecuru ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yambaye igitambaro mu mutwi ndetse hejuru ku mubiri akaba yambaye ubusa, aho yasamye bisa nkaho afite icyo ari kureba.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe aho ari mu ijarara, akaba yayoye imyanda myinshi y'ubutambaro bwajeje, imifuka yashaje n'ibindi akaba abihetse, agenda atambagira kandi asa nabi cyane.

Abantu babiri bari kumwe, aho umwe ari guhumuriza undi, ubona ko ababaye kandi ashavuye cyane, akaba yifashe no mu gahanga.

Abakozi bo mu bitaro, aho bari kwifotoza hanze y'ibitaro bose bambaye neza, hakaba harimo abamama, abapapa, ubona ko babyishimiye.

Umugabo n'umugore bari kumwe, aho umugore ari gufasha umugabo mu gusukura amenyo ye kugira ngo ayarinde indwara zitandukanye.

Abaganga babiri, bari mu bitaro bakaba bari kumwe, umwe afite ikaramu yandikaga urupapuro, akaba yambaye amadarubindi, kandi afite n'umututsi wirende, undi nawe akaba afite ikaramu ndetse n'urupapuro, arimo aseka ndetse afite n'imisatsi isutse.

Umugabo wambaye ubusa hejuru, akaba ari inzobe ndetse cyane, aho ari guseka afite akadodo ari gukoza mu menyo bisa nk'aho hari akantu ashaka gukuramo kahagazemo, aseka kandi ubona ko anezerewe cyane.

Umuganga uri mu bitaro akaba yambaye agapfukamunwa, afite ikaramu uri kwandika ku rupapuro, imbere ye hariho utwuma twinshi tugiye dutandukanye.

Umurwayi wagiye kwa muganga, akaba afite ikibazo cy'amenyo , agiye kwa muganga kugira ngo muganga amuvure bityo abashe gukira.

Abana bari ku ishuri bakaba bari kwifotoza bari kumwe n'umurezi wabo, aho bishimiye ko bahawe korogati umuti w'amenyo uzabafasha kurinda amenyo yabo uburwayi no gutuma acya.

Umupapa uri kumwe n'umwana we, bose bambaye udupira tw'umweru, barimo barifotoza, bafite urudodo basize mu menyo, bisa nk'aho bari gukuramo utuntu twahagaze mu menyo, ubona ko babyishimiye cyane.

Umugabo w'inzobe ufite akadodo ari gucisha mu menyo kugira ngo akuremo imyanda irimo, aho ubona ko afite amenyo acyeye neza, kandi y'umweru afite isuku.

Ibikoresho biri mu bitaro bivura amenyo, hakaba harimo imashini zigiye zitandukanye, amazi, ibyuma, intebe z'ubwoko bwose n'ibindi bifasha abarwayi ndetse na muganga.

Umuntu uri kwifotoza arimo amwenyura, akaba afite amenyo meza kandi ateye neza, afite kandi umusatsi mwinshi w'irende.

Umusaza n'umukecuru aho bari iwabo mu rugo, bakaba bari gusoma ikinyamakuru, banezerewe kandi ubona ko bibashimishije cyane.

Umupapa ufite ikaramu ndetse n'ikayi, akaba yambaye amarinete kandi ageze mu zabukuru, aho arimo yiyandikira ku ikayi ye atuje cyane.

Umupapa uri kumwe n'umuforomo wambaye agapfukamunwa, aho ari kumukimbagiza amumanura kuma esikariye kugira ngo umupapa atagira icyo aba.

Abantu benshi bari mu muhanda bisa nkaho bavuye mu bukwe, imbere yabo hakaba hari abakecuru babiri bafite inkoni mu ntoki bari kugenda bicumba.

Umukecuru uri mu rugo, akaba afashe ibinini mu ntoki ndetse n'amazi, bagiye kubirya kugira ngo umubiri we awurinde kurwaragurika.

Umupapa ugeze mu zabukuru, aho ari gukina n'umwana we, imikino igiye itandukanye, harimo n'uwo gukurura akagozi.

Umumama usa nk'uguze, aho ari kumwe n'umuforomo, bafite akantu mu ntoki agenda azunguza kugira ngo ananure amaboko ye kandi amufashe.

Umumama uri kumwe n'umukobwa we, bakaba basa nk'abavuye guhaha ku isoko, aho uwo mumama afite inyunganirangingo bisa nkaho umugongo we wavunitse, akaba ari kugenda buhoro.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru, bakaba barimo kuganira kandi akaba arimo no kumuvura, akaba amufashe ukuboko.

Umuryango ugizwe na papa na mama ndetse n'abana batatu aho uri kumwe, bari kwifotoza bose baseka ubona ko banezerewe kandi bishimye birenze.

Abaturage benshi bakoraniye munsi y'igiti, bakaba bicayemo ku muronko, aho bari mu nama imbere yabo hakaba hari ababayobora.

Umupapa wifashe mu gahanga, akaba afite amakayi ye imbere ndetse n'amazi ari imbere ye arimo gusoma, bigaragara ko yarushye kuko yifashe mu gahanga kandi asinziriye.

Umugabo uri gukina umukino witwa dame, aho bakoresha imifuniko cyangwa ibijenjegeri, bawukina bagenda bimura inka ku yindi.

Abapapa babiri bari gukora siporo bose bakaba bambaye imyenda ya siporo n'udushati tw'umweru, kandi bakaba bafite n'amazi mu ntoki ari mu gacupa, ubona ko bishimye cyane.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa we, akaba arimo amukoresha siporo ngororamubiri, agenda aterura utwuma mu maboko kugira ngo ayananure.

Umumama ndetse n'umwana we aho bari muri siporo bagenda bazunguza amaboko yabo, umumama ari imbere umwana ari inyuma ubona ko bose babyishimiye cyane.

Umupapa ushaje aho ari kumwe n'umwana we bicaye ku dutebe barimo baganira kandi batera inkuru, ubona ko banezerewe kandi bishimye cyane

Umupapa n'umwana we bari hamwe, bose bakaba bicaye mu rugo barimo bakina umukino, baseka kandi banezerewe cyane.

Umuforomokazi uri kumwe n'umu papa ari kumuvura, yamwambitse igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'umuntu kugira ngo arebe umuvuduko w'amaraso ye kandi bose bakaba bari kuganira atera urwenya kandi baseka cyane.

Aba papa babiri bari kugenda mu nzira, baba barimo bagenda baganira bafatanye ku rutugu kandi banezerewe cyane.

Abamama batatu, aho bari kuganira, batera inkuru kandi baseka abona ko bishimye cyane.

Umusaza uri kumwe n'umwana we, aho bari gufata amafunguro ,umwana amusukira naji kugira ngo aze yirenza kubiryo aba bose bishimye.

Umupapa n'umumama bari mu rugo iwabo, ndetse ubona ko bageze mu zabukuru, aho bari gufata ifunguro, rigizwe n'ibyo kurya bitandukanye, bigize indyo yuzuye.

Umuforomokazi uri kumwe n'umusaza, akaba arimo kumukoresha udusiporo, afite akantu mu ntoki akaza, akaba ari kugenda akazunguza kugira ngo inoki zinanuke.

Abaganga babiri bari kwita ku murwayi bafatanyije, bakaba barimo kumutera inshinge ndetse n'ubundi bufasha kugira ngo akire.

Umumama uri guha umwana we imfashabe, amukikiye mu maboko ndetse inyuma ye hakaba hari n'abandi bantu benshi bahari.

Abaganga bagera muri batanu,, aho bari gukurikirana umurwayi uryamye ku gitanda asa nk'aho arembye cyane, bakaba bari kumukurikirana kugira ngo barebe ko agarura ubuyanja.

Abaganga bambaye amashashi, bambaye ga ndetse n'udupfukamunwa, ayo mashashi kandi akaba abatwikiye kuva hasi kugera ku mutwe ku buryo nta gice cy'umubiri wabo ushobora kubona, bisa nkaho bakora mu ndwara zandura aba ari ukugira ngo batanduzwa n'abarwayi bavura.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bicaye ku ruziga ndetse hari n'abandi benshi bahagaze bari kubarebera.

Ibitaro byubatse ku buryo bwiza, aho mo hagati harimo umwanya munini abantu bagenda banyuramo igihe bagiye mu byumba bigiye bitandukanye ndetse hakaba hashobora no kunyuzwamo umurwayi urembye bazanye ku gitanda.

Ibitaro byubatse neza bikaba byose biteye irange ry'umweru, bifite amadirishya meza kandi akinguye kugira ngo akayaga kinjire, bifite ibidukikije byiza nk'ibiti, indabo ndetse n'ibindi.

Ibitaro muri materinite aho ababyeyi babyarira, inyuma yabyo hakaba hari abapapa babiri bari kuhagenda, umwe yambaye ishati hakaba hari kandi n'ikigega.

Farumasi irimo imiti igiye itandukanye y'ubwoko bwinshi, ikaba kandi ipanze neza, iri mu tubati dukoze mu birarahure ku buryo umuntu wese winjiye ayibona bityo bigafasha uje agana farumasi.

Ibitaro bya Ruhengeri, biboneka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, bivura indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba cyo ku bitaro, kirimo igitanda cy'umurwayi, hakabamo n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga, igihe ari kuvura umurwayi.

Ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda, gishinzwe indwara ya kanseri, haba kuyivura, kuyirwanya ndetse n'ibindi, aho cyubatse ku buryo bwiza kandi akaba ari ikigo kinini.

Ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye nk'akabati, imeza, ibitanda biryamwaho n'abarwayi mu gihe bagiye kubabaga cyangwa mu gihe ba mu bitaro.

Imashini z'ubwoko bugiye butandukanye ziboneka kwa muganga, zikifashishwa n'abaganga mu gihe bari kubaga cyangwa gusuzuma abarwayi cyangwa mu bindi bikorwa.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, aho cyubatse neza ku buryo bwiza, kikaba cyubakishijwe amategura ndetse n'amabati ku byumba bimwe na bimwe.

Ibitaro byubatse neza aho imbere yabyo hariho ubusitani bwiza, indabo kandi zikaze neza ndetse n'ibindi biti biharinda umuyaga.

Umuganga aho ari imbere y'abarwayi n'abandi bantu bagiye batandukanye, agenda abagezaho inama ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo bakirinda, bakarinda umubiri wabo kugira ngo utarwara.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge byubatse ku buryo bwiza, imbere yabyo hakaba hari uturabo twiza tw'ubwoko bwinshi ndetse n'igiti kihateye.

Ibyuma bigezweho bikoreshwa kwa muganga mu gihe barimo babaga umurwayi cyangwa bamuvura indwara zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye kandi bigezweho, bisigaye bikoreshwa kwa muganga kugira ngo umurimo w'ubuvuzi unozwe neza.

Ikigo cy'ubuzima cyubatse neza kikaba giteretseho utuvaze turimo indabyo imbere ku muryango ari tubiri, kiriho indabyo nziza imbere yacyo ndetse n'ibiti byiza.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ubuzima, aho bicaye hanze ku ntebe, imbere yaho hakaba hari imeza, bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Abaturage bagiye kwa muganga kwaka serivisi z'ubuzima, aho batonze umurongo imbere ya muganga kugira ngo abafashe.

Ibikoresho bigezweho, biboneka kwa muganga, harimo nk'imashini zigiye zitandukanye zifashishwa na muganga avura umurwayi.

Ibitanda by'abarwayi bishashe neza kandi bimeze neza, hakaba hariho n'amarido kuri buri gitanda, ameze neza kandi akeye cyane.

Umuganga uri kwifotoza yicaye mu bitaro, aho arangije akazi ke bityo akaba ari kuruhuka, akaba yambaye itaburiya yicaye ku gatebe abona ko yishimye.

Imiti igiye itandukanye yo kwa muganga aho iri mu bubiko bwayo ibitse neza kandi ku buryo bwiza, ubona ko nta kintu gishobora kuyihungabanya kaindi na yo ubwayo idashobora gupfa.

Ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye, harimo n'ibifasha abarwayi kugorora ingingo nk'amaguru, amaboko, umugongo, ibikanu, umutwe ndetse n'izindi.

Icyumba cyo ku bitaro kirimo udutebe twiza, imeza, udutebe dufite imisego, haba harimo imashini, imitako ndetse n'imiti ihabwa abarwayi.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, aho cyubatse neza hejuru yacyo hakaba hariho umurasire w'izuba ugiha amashanyarazi, hakaba hari n'indabyo ziteye imbere yacyo kandi zimeze neza.

Ibitaro aho bifite icyumba kirimo ibintu bigiye bitandukanye nk'imashini zifashishwa na muganga, intebe zicarwaho n'abarwayi ndetse n'ibindi.

Farumasi icuruza imiti y'abantu, imbere y'iyo farumasi hakaba hari icyapa kiyobora abahagana cyanditseho amazina ya nyiri iyi farumasi MUREKATETE Marie Denise, nomero ze ndetse n'ibindi byangombwa byakuyobora uhaje.

Abantu baje kwa muganga, bashaka serivisi z'ubuzima, aho umwe arimo kwakirwa, abandi babiri bakaba bategereje.

Akayira kajya ku bitaro aho karimo abantu bagera muri batatu, barikugana ibitaro, ku ruhande rwabo hakaba hari jaride nziza iteyemo indabo ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ibitaro byubatse neza bifite jaride nziza, indabyo nziza zitatse muri jaride ndetse n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye biteye muri jaride.

Umubyeyi wajyanye umwana we kwa muganga, bahagararanye na muganga ndetse akikiye n'umwana we, aho bose ubona ko bameze neza kandi bishimye.

Ibitaro byubatse neza, bifite ibiti bibikikije hamwe n'indabo z'ubwoko bwinshi, ubona ko ari nziza cyane.

Ikigo nderabuzima kinini cyane, kandi cyubatse ku buryo bwiza, aho imbere yacyo hari imodoka yaparitse, ibendera ndetse n'abantu bari kukigana.

Abaganga bagera muri bane bose bambaye amataburiya, hamwe na ga, aho bari mu bitaro, bamaze kuvura abantu bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Umukobwa uri muri siporo akaba yambaye imyenda ya siporo, akaba kandi ari no kunywa amazi ayakuye mu icupa yitwaje kugira ngo aze kumufasha.

Umuntu wagiye kwa muganga kwivuza ukuguru kwe, muganga akaba ari kugupfuka akoresheje ibipfuko kugira ngo uwo muntu amere neza.

Umukobwa wicaye uri gukora siporo, barimo bahina amaguru ye ndetse ananura n'amaboko ye umugongo ndetse n'izindi ngingo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri kunywa amazi akaba yambaye na ekuteri ubona ko ari muri siporo, akaba ari kuyanywa kugira ngo agarure ubuyanja bityo akomeze.

Umupapa wambaye inkweto, ikabutura ndetse n'agapira bya siporo, akaba ari muri siporo agenda anyonga akantu kandi agacisha mudukona turi imbere ye.

Umuntu uri kwikanda akaboko akoresheje agatambaro, bisa nk'aho yavunitse, akaba arimo kwikata kugira ngo akaboko ke kongere kamere neza.

Umugabo uri kunywa amazi akoresheje icupa, aho ubona ko yarari muri siporo, akaba ari kunywa amazi kugira ngo abashe abone uko yongera gukomeza.

Amazi ari gusukwa mu kirahure avanywe mu icupa risanzwe, akaba ari amazi akeye ubona ko ari meza.

Ibitaro birimo ibikoresho bihambaye bikoreshwa na muganga mu gihe ari kuvura umurwayi, ari ku mubaga, kumusuzuma cyangwa mu kindi gikorwa.

Umupapa uri kwa muganga, muganga akaba arimo aramupfuka ukuguru, bisa nk'aho yagukomeretse ari muri siporo cyangwa indi mirimo itandukanye.

Umupapa uri muri siporo ngororamubiri, akaba arimo agorora intoki, umugongo, amaguru ndetse n'ibindi bice bye by'umubiri kugira ngo amererwe neza.

Umugabo uri kunywa amazi ayakuye mu gacupa, ubona ko yarari muri siporo akaba ari kunywa amazi kugira ngo akomeze akore siporo ze neza.

Umuntu uri gukora siporo zigiye zitandukanye, agorora umubiri we, akaba ahagaze ari kunywa amazi kugira ngo abone akabaraga akomeze.

Umumama uri muri siporo, aho ari kugorora amaguru ye, amaboko ndetse n'umugongo, akaba yicaye hasi.

Abantu babiri bari kumwe, bakaba bari muri siporo, aho umwe afite imipira yo gukina, undi akaba ari kuza amusanga agendera ku mbago.

Umupapa ugeze mu zabukuru, aho ari kumwe n'umuganga uri kugenda amukoresha udusiporo; amwereka uburyo ki abigenza, akaba afite umugozi mu ntoki agenda awuzunguza akoresheje intoki ebyiri kugira ngo ananure intoki zombi.

Zimwe mu mbuto zagufasha kugira imbaraga mu mubiri ndetse n'imboga zagufasha kukurinda indwara bityo umubiri wawe ugahora ukomeye, nka karoti, imboga, inyanya ndetse n'ibindi.

Umukobwa ari muri siporo akaba yambaye imyenda ya siporo n'isengeri, ipantaro ndetse n'akandi kantu yambaye ku intoki, akaba ari kunywa amazi kugira ngo abone imbaraga zo gukomeza gukora siporo ze.

Umupapa uri gukora siporo arimo ananura amaguru, intoki, umugongo akaba ahagaze kuguru kumwe, ukundi agufatishijeho ukuboko ndetse yifashe no mu manyungunyungu.

Abantu batatu umwe akaba ahagaze ku rwego bisa nk'aho hari ahantu bari kubaka ku nyubako y'ibitaro.

Igikoresho gikoreshwa muri siporo, aho umuntu yicaraho, bityo kikamufasha kugorora ingingo ze, haba amaboko, amaguru mu matako ndetse n'ahandi, kugira ngo akomeze kumera neza no gukura neza.

Umuntu ufite ikibazo cy'ingingo, bakaba bamuhaye inyunganirangingo yo kuza agenderaho mu gihe ahagaze kugira ngo umugongo we utazakomereka.

Umuntu uri muri siporo, wambaye agapira ka siporo ndetse akaba yambaye na kuteri aho ari kunywa amazi avuye mu gacupa k'umweru kugira ngo abone uko akomeza siporo ze.

Umurwayi uri kwa muganga, aho muganga arimo kumwitaho, hakaba hari ikintu yamusize mu mugongo bisa nk'aho umurwayi arwaye umugongo.

Umuntu bafashe mu maboko, bisa nkaho akomeretse cyangwa agize ikindi kibazo, ari muri siporo bityo bakaba bamufashe, bamukikiye kugira ngo bamujyane kwa muganga, bityo yitabweho

Umukobwa uri muri siporo, akaba yambaye inkweto za siporo, ipantaro ndetse n'isengeri bya siporo, akaba yambaye na kuteri mu matwi arimo yumva indirimbo.

Amafunguro agiye atandukanye, ashobora kugufasha kugira ubuzima bwiza, harimo nk'imineke, amagi, umugati, imbuto zigiye zitandukanye, aho ari kumwe n'utundi dukoresho dushobora gutuma unanura umubiri wawe, binyuze mu kuduterura cyangwa kudukoresha.

Umuntu urimo gukora siporo, wambaye isengeri ya siporo ndetse n'indi myenda ya siporo, akaba arimo yinanura amaguru n'amaboko kugira ngo amererwe neza.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa muri siporo, mu butabazi bw'ibanze, mu gihe umuntu yavunitse, yakomeretse cyangwa yagiye muri siporo, ikindi kibazo.

Umumama urimo gukora siporo ngororamubiri, akaba yicaye hasi kuri tapi agenda agorora amaguru ye, amaboko, umugongo ndetse n'ibindi bice by'umubiri kugira ngo umubiri we ukore neza.

Imiti ikoreshwa muri siporo, aho itondetse mu bubiko bwayo ku buryo bwiza kandi buyirinda kwangirika.

Umuntu uri kunywa amazi, akaba yari ari muri siporo, yambaye agapira k'umweru ndetse na ekuteri ndetse akaba ari kunywa amazi yayakuye mu gacupa kugira ngo abone imbaraga bityo akomeze muri siporo.

Umugabo uri muri siporo ngororamubiri, akaba yambaye agapantaro ka siporo n'agasengeri ka siporo byose by'umukara, akaba ashinze ivi rimwe, ukundi kuguru guhagaze ubona ko agenda akora udusiporo.

Utwatsi tugiye dutandukanye dushobora kwifashishwa tuvura indwara nyinshi kandi dutandukanye, binyuze mu kudusekura, kutwanika cyangwa mu kutuvuguta.

Ibiti bivamo imiti gakondo yifashishwa ivura indwara zigiye zitandukanye bidasabye ko umuntu ajya kwa muganga cyangwa ngo arye ibinini.

Umuganga aho yicaye yambaye itaburiya, akaba arimo agenzura imiti, hariho n'ubundi bucupa bubiri buteretse imbere burimo imiti igiye itandukanye, akaba arimo agenzura kugira ngo aze kuyiha abarwayi.

Imiti gakondo igizwe n'umuravumba ndetse n'ibindi byatsi, aho yafashwe igashyirwa mu mazi bityo bagacanira kugira ngo baze kwifashisha ayo mazi bayanywa bityo abavure indwara nyinshi.

Imiti ituruka mu byatsi gakondo, aho ifatwa ikaba yatunganywa, igashyirwa mu tuntu twabugenewe, nk'udukarito ndetse n'utubido, kugira ngo itazangirika, bityo ikaba yakwifashishwa kwa muganga, muri farumasi ndetse n'ahandi.

Ibimera bigiye bitandukanye n'ibiribwa bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura indwara zitangira itandukanye, binyuze mu kubirya, mu kubivuguta bikaba byasiwa umuntu ndetse no mu zindi nzira.

Ni muti uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha ndetse n'ibindi. Mu gihe abantu bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina.

Imiti myinshi kandi itandukanye ituruka mu byatsi gakondo, aho ifatwa igatunganywa, bakaba barayishyize mu macupa yabugenewe ndetse n'utundi dukoresho, aho idashobora kwangirika.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, ingofero y'abaganga, itaburiya aho yicaye imbere y'imiti akaba arimo agenda ayikura mu bikarito byayo ayirambika ku meza ayitunganya kugira ngo abone uko aza kuyikoresha.

Imiti ikorwa mu byatsi gakondo bitandukanye, aho bitunganywa neza, bifashishije imashini zabugenewe, ikaba ivura indwara runaka.

Igikakarubamba nka kimwe mu kintu kivamo imiti igiye itandukanye ishobora kwifashishwa ivu indwara nyinshi cyane.

Imiti gakondo igizwe n'utubuto tugiye dutandukanye, ibyatsi, ibihingwa n'ibindi bintu biba byaratunganyijwe bityo bigashirwa, mu tuntu twabugenewe.

Igiti kimera mu ishyamba cyifashishwa kivura indwara zitandukanye binyuze mu gufata utubabi twacyo ukadukamura cyangwa ugakoresha izindi nzira, bityo ukaba wanywa amazi yacyo cyangwa ukisiga ayo mababi ukaba wakira.

Umuravumba ni umwe mu muti gakondo, uvura indwara zitandukanye nk'inkorora, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi, binyuze mu kuwusekura, bakawuvuguta cyangwa bakanywa amazi yawo.

Igiti kiboneka mu ishyamba ndetse n'ahandi hantu mu bihuru, cyifashishwa gikurwamo imiti ivura ibintu bitandukanye.

Umu mama uri gusoroma imboga zo kujya kurya kugira ngo zize kumurinda indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo yakozwe mu byatsi bigiye bitandukanye, hamwe n'ibimera bigiye bitandukanye aho bifatwa bigakamurwa bityo bigashyirwa mu macupa yabugenewe.

Imiti igiye itandukanye, harimo ibinini byanyuze mu ruganda, harimo imiti yagiye ikamurwa mu byatsi ndetse n'ibindi byatsi bishobora gukoreshwa bivura indwara zitandukanye.

Tungurusumu kimwe mu kintu kirinda indwara zigiye zitandukanye nk'inkorora, uburwayi bwo mu nda ndetse n'izindi.

Igitunguru ndetse n'imbuto nka bimwe mu bintu bigira uruhare mu buzima bwa muntu. Bikaba bishobora no kuba umuti ku ndwara zigiye zitandukanye.

Umuravumba umwe mu miti gakondo yifashishwa ivura indwara zigiye zitandukanye nk'inkorora, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi.

Umugabo uri gusoroma utwatsi tugiye dutandukanye kugira ngo adukoremo umuti wo kuvura indwara zitandukanye n'abantu batandukanye.

Ururabo rushobora kuvamo umuti ushobora kuvura indwara zigiye zitandukanye, umuntu agakira bidasabye ko ajya kwa mu ganga cyangwa ngo arye ibinini byanyuze mu ruganda.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo amaronji, indimu hamwe n'izindi zishobora gufasha ubuzima bw'umuntu kuburinda indwara zigiye zitandukanye.

Imiti ikorwa mu byatsi gakondo, igatunganywa neza hifashishijwe imashini zabugenewe, bityo igashyirwa mu dukombe twiza ku buryo ivura indwara zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye ikurwa mu bihwagari, mu buki ndetse no mu ndabo. Igatunganywa ikaba yavura indwara zigiye zitandukanye nk'indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi.

Imiti igenda ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye ndetse no mu mbuto, ibimera, ibiribwa ndetse n'ibindi, aho bitunganywa neza, bityo ikaba yakwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Korogati iva mu gikakarubamba, aho bagifata bakagitunganya hakoreshejwe imashini zabugenewe, bityo kikavamo korogati ishobora kwifashishwa mu gusukura amenyo.